Imifuka yuzuyemo ibigori, aba bagore bari guterura iyi mifuka bakayizamura hejuru, uriya mugabo uri hejuru ni we uri gufata iyi mifuka, bombi bafasheho buri wese afasheho n'ibiganza bye byombi. Aba bagore ni abanyembaraga, hirya yaho hari abandi bantu bahari. Iyi mifuka ni umweru wagira ngo irimo ibigori.

Uyu mugezi niwo abaturage baza kuvomaho amazi, iyo baje kuvomaho amazi bafungura robine zombi amazi akaza, abaturage iyo bahageze baza ari benshi cyane cyane masaha yo kuvoma, uyu mugezi urabafasha, baza kuvoma bitwaje ibijerekani, indobo ndetse n'ibindi bikoresho batwaramo amazi, uyu mugezi ugira amazi menshi.

Uyu mubyeyi ari gukarabya umwana w'intoki arikumo aragira ngo amurinde indwara z'inzoka aragira ngo amurinde indwara z'uruhu, gukaraba intoki ni ingenzi cyane kugira ngo umuntu yirinde indwara zandura nk'inzoka, uyu mubyeyi rero kandi yambaye agapfukamunwa kamufasha kwirinda imikungugu, kwirinda indwara z'ubuhumekero n'izindi uyu mwana biramubereye gukaraba intoki rwose.

Iki kirangantego ni icy'umuryango w'abumbye wita ku buzima bw'umwana no kurengera umwana, hagati muri kirangantego harimo umwana, hakabamo n'umubyeyi, hejuru hariho umubumbe w'isi ariko wanditse mu turonko tugiye tunyuranyuwemo iruhande rwo hasi hariho ikimenyetso cy'ingano zinyu yanyuranyemo ziriw ibara ry'icyatsi ndetse ikirangagantego cyose ni mu ibara ry'icyatsi.

Aba bagore babiri bari gutombo na arikokondo kugirango ama azamuke uyugore we afite indobo arimo kuvoma, robine izwi izina rya nayikondo yubatse rwagati mu gipangu ahantu hazitiye hantu bari harapavomye hameze neza uyu mugore yakenyeye igitenge ndetse yambaye akantu k'akenda gafite amaboko magufi bariya nabo bikuye amaboko yabo bayayakaze kugira ngo babone imbaraga.

Umugezi abaturage bavomaho ni igikorwa remezo gifasha abantu kubona amazi meza kandi asukuye. Abantu iyo baje kuvoma kuri uyu mugezi bazana ibijerekani, bakabirambika munsi ya robine, bagafungura amazi akajyamo. Abantu bakunda kuvoma kuri uyu mugezi ni abahaturiye. Uyu mugezi ufite icyapa kiri imbere cyanditseho amagambo. Kuri uyu mugezi hari umuntu wabugenewe ushinzwe guha abantu amazi.

Aya ni amagambo y'impine ahagarariye ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi isuku n'isukura wasac, ni amagambo y'icyongereza avuga ngo wota andi sanitasheni koruporesheni, amagambo y'icyongereza.

Abantu baza kuvoma amazi kuri uwo mugezi, bakayakoresha bafura imyenda, bakayakoresha bari guteka, bari gukaraba ndetse bakayaha inka zikayanywa. Uyu mugezi ni ingirakamaro ku bantu batuye muri aka gace, cyane cyane uyu mwana waje kunywaho amazi. Yazanye akavomesho, indobo ni yo ari butwaremo amazi. Amazi ashobora gukoreshwa mu kubaka, ashobora gukoreshwa kwa muganga no ku ishuri.

Uyu mugezi abantu bawukoresha bari kuvoma mazi, abana baje kuhavoma amazi bari kuyakiniraho kugira ngo babone ayo gukaraba abandi banywe, uyu mugezi uvaho amazi akoreshwa mu kwirinda indwara zandura nk'inzoka n'izindi ndwara zishamikiyeho.

Uyu mugezi ni wo abantu bavomaho amazi yo gukoresha mu rugo, ayo gufura, ayo guteka, n'ayo gukaraba intoki cyane cyane umubiri wose mugitondo. Uyu mwana yaje kuvoma amazi mu kadomoro gatoya, arimo arafungura; ni umugezi wometse ku kigega kugira ngo ajyane amazi. Uyu mugezi ni igikorwaremezo cy'ingenzi cyane cyane mu giturage.

Uyu mwana ari gukora igikorwa cyiza cyane ari gukaraba intoki akoresheje amazi n'isabune, hari umuntu hirya uri kumusukira amazi akoresheje ijagi. Gukaraba intoki bifasha kwirinda indwara zandura nk'inzoka, impiswi, indwara zindi ndwara z'uruhu n'izindi. Gukaraba intoki bigirwamo inama ku muntu ufite ibibazo by'uburwayi.

Abo bagabo bari gusuhuzanya mutuza k'umweru undi uri kumusuhu ikositimu nk'umweru ariko utari umweru mugenzi we nawe afite agakapu mu ntoki wagira karimo impapuro yambaye na kositimu na karuvati na marinette bagenzi be basigaye umwe yambaye imyenda imeze nk'iy'abayisilamu undi yambaye ikintu kimeze nka frari mu ijosi kandi ni umuzungu hiryaho hari ibiti.

Umugore avuye kuvoma yikoreye indobo indi ayitwaye mu ntoki iruhande rwariho ibiti byumye, hakurya hari nzu ishakaje amategura iri mu biti itagaragara neza hasi hari ibiti ndetse n'ibyatsi.

Amazi ari kuva muri robine akamanuka abana bakayatangiza ibiganza agasandagurika, aba abana bicaye y'amazi munsi ya robine umwe muri aba bana yambaye inkweto zifunze ndetse n'ibiturusu imyenda isa, undi mwana umupira w'umutuku n'agakabutura katari kugaragara neza. Aba bana bombi nta musatsi bafite bamaze igihe bogoshwe.

Abana bari gucurira amaboko yabo bayazamuye hejuru mu kirere, bambaye imyenda y'inifomo y'ishuri isa nk'ubururu. Aba bana bose bari guseka babumbuye iminwa yabo , ibiganza byabo babizamuye mu kirere birambuye, inyuma y'aba bana hari abandi bana bari gukina umupira hariho n'ibendera ry'u Rwanda.

Umugore wambaye urunigi mu ijosi umusatsi we urakaraze urimo inwere, yambaye agashati gasa nk'umutuku karimo amabara y'umweru avanze n'ay'umukara, inyuma ye hahagaze umugabo utagaragara neza yambaye ikote ry'umukara, hirya yaho hari ibicuruzwa biri mu kabati.

Abana bababaye barakaye bari kurira barababaje, aba bana bambaye imyenda yacitse nabana bo mu muhanda batagira aho baba, ubuzima bwabo ni bubi burabagoye bamwe bahetse bene nyina abandi ni bakuru ntabwo bafite ubushobozi bwo kuba bajya ku ishuri no kujya mu bindi bikorwa bitandukanye bafite agahinda.

Aka kuma uyu muntu agiye gushi mu menyo, ni kamwe mu kuma kifashishwa mu kugira ngo amenyo yawe asukurwe. Ushobora gukambara ugiye kurya cyangwa se ukakambara nyuma yo kurya. Ushobora gushyiramo umuti warangiza ukambara mu menyo kagasukura amenyo yawe nta kibazo. Uyu muntu kugira ngo agashyire mu kanwa arabanza akasama, yarangiza akakaringaniza mu menyo rwagati.

Uyu muhungu nta myenda yambaye asa neza ni inzobe, ari guseka, ari kumwenyura amaso ye nta mujinya uriho afite urudodo yarushize hagati mu kanwa ari gukuramo imyanda mu menyo uyu rudodo ushobora kurukoresha ugakura imyanda yawe mu kanwa nyuma yuko urangije kurya.

Uyu mubyeyi yari guseka ari gukata imboga impande ye hari inyanya, icyuma, imboga na karoti yamajije kurapa. Uyu mukobwa imbere ye hari agasorori bagiye gushyiramo izi mboga nyuma yo kuzikata, bagiye guteka indyo yuzuye irimo imboga bashobora kongeramo n'izindi.

Amagambo yanditse ku kimenyetso y'icyongereza, agira ati: comprehesive sexaret education ereference book forceconry scol teictures aya magambo yanditse rwagati mu ibara rijya gusa nk' umutuku, ariko ritari umutuku iri bara rijya gusa nk'umuhondo w'igi hirya y'iri bara hariho irindi bara rijya gusa nkuubururu bwijimye.

Uyu mugabo yambaye agakoresho gapima uko umutima utera, yambaye kandi imyenda yabugenewe yambarwa n'abaganga isa nk'ubururu, hirya yuyu mugabo hariho urutoki rushishye, iruhande rw'uyu mugabo kandi hicaye umukecuru wambaye ikanzu yiteze igitambaro mu mutwe. Inyuma ye harunze inkwi hubatse n'inzu.

Ibitaro abantu baza kwivurizamo bagahabwa serivisi zijyanye n'ubuzima. Aha ni aho basuzumira bakakira abantu, kuri kiriya cyapa handitseho Dogita Mofiza and Patinazi, uyu muntu wicaye hano kuri izi ntebe yaje gushaka serivisi, muri iyi nzu hateretsemo utuvaze twifashisha mu gutanga umwuka duteyemo indabo.

Ibitaro byanditseho amagambo ari ku gice cy'imbere. Aya magambo yanditse kuri ibi bitaro ni mediko risaci insititute. Impande y'ibi bitaro hariho jaride irimo indabo nziza. Iruhande rwaho haparitse imodoka. Inzu isakaje amabati ajya gusa nk'umukara. Impande y'iyi nzu hateyeho indabo nziza.

Ku bitaro bya Kigina hanze ugiye kwinjira handitse amagambo agira ati kigina herifu senta, hanze kuri ibi bitaro hahagaze umugore uhetse umwana uje ku bitaro kwivuza kuri ibi bitaro kandi mbere hasize irangi ry'mweru ibitaro byubakishije amabati bisize irangi ryiza cyane.

Aha hantu hari amatara meza, aya mabati asakaye iyi nzu arakomeye, hagati muri aya mabati harimo akanya kanyuramo urumuri rw'izuba rukazamo imbere mu nzu, aya makaro yubatse iyi nzu ni umweru.

Muri iki cyumba harimo intebe udukoresho two kwa muganga amatara mikososikopi, imashini n'ibindi bikoresho bikoreshwa kwa muganga hari kandi ikindi gikoresho kiri hakurya kimeze nka televiziyo kiri mu nguni iruhande rwaho hari utundi dukoresho.

Kuri ibi bitanda hagiye hariho imisego yo kwegamira, hirya yaaho hari udukoresha umuganga areberamo uko ubuzima buhagazemo serumo n'ibindi bikoresho bibitse, hejuru y'ahangaha hari abarwayi bashobora kuha bafite uburwayi butandukanye abagiye kubyara, bakomeretse, abaje kuvuza indwara zidakira; ibitaro bifasha abarwayi b'ingeri zose.

Uyu mwarimu afashe ku rutugu rw'umunyeshuri ari kumuhereza udukoresho, utu dukoresho ari kumuha ni twiza dufite irangi ry'umweru rivanzemo umutuku, inyuma y'uyu mwarimu handi hahagaze umuzungu, iruhande rwe hahagaze umugabo amaboko ye yayashyize imbere ku nda aripfumbase ariko amaboko arambuye, inyuma yabo hariyo ikibaho cyanditseho amagambo, hari abandi bantu bari inyuma babiri.

Abarwayi bari kwa muganga bararembye bararyamye, uwo hirya we yaryamye yasinziye. Baryamye ku bitanda; aha ni kwa muganga. Ibi bitanda baryamyeho bigiye bitonde ku murongo, ku mutwe w'umurwayi harimo ahateretse amazi yo kunywa, utundi ducupa turimo imiti ndetse n'utuji two kunywa.

Iyi nzu irimo intebe enye zegamirwa, ebyiri muri zo zisa nk'ubururu izindi ebyiri zifite imifariso ifite irangi ry'umuhondo rivanzemo umukara. Hirya y'izi ntebe hari indabo zihateye hejuru ku kajaride karimo hagati mu nzu iyi nzu yubatse neza ifite amakaro y'umweru hejuru hari amatara muri parafu ndetse parafo yayo ifite irangi rijya gusa nk'urwirungu.

Inzu y'ababyeyi materinite aya ni amagambo yanditse ku bitaro by'ababyeyi ku kigo nderabuzima, iki kigo nderabuzima gifasha abarwayi kuza kuhivuriza ababyeyi nabo niho baza kubyarira igihe batwite. Aba ni abayobozi b'ibitaro, abaganga, n'abajyanama b'ubuzima bahagaze kuri iyi nzu hanze ku ibaraza.

Uyu murwayi aryamye mu gitanda yiyoroshe ari kwa muganga, iruhande rw'uwo murwayi hateretse ibindi byuma bareberamo abaganga iyo baje kumwitaho, ibi byuma biba bikonegise ku mubiri we ku buryo muganga abasha kubona uko umubiri we uteye, iruhande rw'ibi byuma hariho insinga ndende zigiye zicometse ku byuma bya serumu.

Muri ibi bitaro harimo udukoresho tw'udupupe, harimo aho wakorera siporo, harimo aho wakwicara igihe unaniwe, harimo ibyapa, harimo ibibaho, harimo udukinisho dutandukanye, harimo ibipirizo by'umutuku, iby'icyatsi n'ibindi, harimo kandi ahantu ho kuryama ukinanura, ugakora siporo.

Iyi nzu ndende ni ibitaro iki gikorwa remezo giteye imbere ku buryo kimeze neza kandi gifite isuku hanze hari jardele haparitse imodoka ndetse kandi hari ahantu hatavumye imodoka zaparika.

Akaguru k'uyu mukobwa karahinye akandi kaguru ke kararambuye yazanye amaboko afatisha amano ye ku rukweto, ku ruhande rwe rw'aboko hirya hariho ikintu kiziritse telefone hariho ecouteri z'umweru, amabere y'umugore yayaziritse akoresheje akenda kabugene we k'umukara.

Uyu muntu ari gukora siporo kugirango umubiri we ubashe kugarura ubuyanja cyangwa se intege. Izi siporo zikoreshwa mu nzu, iyo urimo urakora siporo unumva umuziki. Hirya ye hari ibipirizo, hari ibindi bintu ushobora kuba waterura, n'ibindi bikoresho byo muri jimu. Siporo ni ingirakamaro ku mubiri w'umuntu, ifasha mu kurinda indwara zitandura n'izindi ndwara.

Iyo umuntu afashe ikiganza akakirambika impande y'umutima iki gihe abarwaye umutima, ushobora kandi gukoresha iki kiganza wumva uko umutima wawe utera ukakirambika impande y'umutima, uyu muntu ni byo ari gukora. Iki gihe ushobora kuba wabyifashisha wisuzuma ukamenya uko uhagaze, ku ruhande rw'iki kiganza hasize amarangi hari irangi ry'icyatsi n'irangi ry'umutuku.

Iki kirenge kirahinnye, uyu muntu agiye gushingura akaguru atere intera, kuri aka kabumbampore hashushanyije ibishushanyo bigaragaza, aho akabumbampore gaherereye, ibi bishushanyo bikoresheje irangi rijya gusa nk'umutuku, ikindi gishushanyo kiriho irangi rijya gusa nk'icyatsi ariko si icyatsi ariko si icyatsi neza, biragaragaza akabumbampore.

Amababi y'umuravumba avura indwara y'inkorora. Aya mababi urayafata ukayatunganya wa wangiza ukayinywa mu mazi. Umuravumba ni igiti gikunda kumera ahantu hadahingwa. Iki giti kirarura mu kanwa ku buryo utapfa kugiha umuntu uwo ari we wese. Ku bantu bagira ubwoba umuravumba ni mubi. Umuravumba ugira ibara ry'icyatsi nk'ibindi biti byose.

Igikakarubamba kivamo umuti iyo gitunganijwe neza mu nganda, igikakarubamba kandi gishobora kuvamo amavuta yo kwisiga avura uruhu, gikunda cyane kumera ahantu hadahingwa, gikunda kandi kumerara ahantu hadakunda kuva izuba ryinshi, ahantu haba imvura hakaba n'izuba rikeya, igikakarubamba ni kiza kivamo umuti.

Aya matovu araryana iyo uyegereye ukayakora. Iyo uyatemye kandi arakurya kubera yuko afite amahwa agiye ari ku mababi yayo. Aryana cyane iyo uyakandagiyemo utambaye ibirenge. Ikindi ushobora kuyajyamo, warangiza ukayavamo wuzuye ibisebe munsi y'ibirenge no ku ntoki zawe.